Abakozi batanga serivisi z'ibikorwa byose bya MTN, baba bambaye inifomo aho wabasanga hose, urabibwira, bafasha umuntu wese ukeneye serivisi zabo, yaba ushaka ibintu bijyanye no kohereza amafaranga cyangwa se ushaka kubitsa baragufasha.

Ubucuruzi bworoheye buri wese kuba yahisanga, yaba ufite amafaranga makeya cyangwa ufite menshi, ukaba ukeneye ibintu byo kurya, ibyo guteka, ibihiye cyangwa se n'ibikoresho by'isuku.

Mu mazu bacumbikiramo abantu haba hagomba kubamo amaravabo, hakabamo ubwiherero, hakabamo ibikoresho byose by'isuku by'ibanze umuntu yakoresha mu gihe acumbitse mu mazu yabo.

Mu mahoteli haba harimo ibiribwa bitandukanye, buri wese iyo agiyeyo, usaba icyo ushaka kuko byose biba biriyo, waba ushaka ibihenze bitewe n'amafaranga ufite barabiguha, ushaka ibihendutse nabwo biba bihari.